Warehouse cyangwa ububiko bunini, ububiko bukuru, aho usanga barafashe imyaka bakayibika ahantu hamwe, noneho bakazajya bagurisha ku ruhande, barangurira amasoko, bacuruza ku baranguza abacuruzi basanzwe baranguza, usanga biva ma warehouse cyangwa mu maguriro manini.

Ubuhinzi bw'ipamba mu gihugu cy'u Rwanda ni ubuhinzi twavuga budateye imbere cyane butitabirwa n'abantu benshi ariko tukavuga yuko na none ari ubuhinzi bwinjiriza amafaranga, bwinjiza amadovize igihugu kuko ipamba usanga baryohereza mu bihugu byo hanze kuko bashobora kuba batunganyamo nk'imyenda inkweto ndetse n'ibindi byinshi usanga byinjiriza amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa mu gihugu, ikawa ni igihugu gihingwa cyane mu gihugu cy'u rwanda ndetse kikaba gifasha n'igihugu kwinjiza amadovize yaba mu gusagurira igihugu mu baturage baba mu rwanda ndetse bagasagurira nabo n'ababa mu gihugu hanze bakaboherereza.

Ubuhinzi mu Rwanda, ubuhinzi ni ikintu cyitabirwa n'abaturage benshi. Aho usanga buri wese ufite ubutaka, nko mu bice by'icyaro cyane, uba usanga bitabiriye ikintu kijyanye n'ubuhinzi, yaba ubuhinzi bw'insina, ibigori, ndetse n'ibindi byinshi. bikabafasha mu kuba bahereza isoko, bagasagurira abaturage mu gihugu, bakaba, ndetse na bo ubwabo bakaba babasha kugurisha bakabona, uko bakohereza umwana ku ishuri.

Ubuhinzi bw'u Rwanda bufasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Twavugamo nk'ubuhinzi bw'ibigori mu gihugu, buhinze nko kuri hegitari nini bufasha abaturage mu kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'igihugu, mu kuba byabona ibizamurira imisoro igihugu.

Mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bwa buri muntu, yaba aho dutuye mu miryango ya buri muntu wese dukenera ibintu byo kurya, dukenera ibidutunga, mu bijyanye n'intungamubiri harimo iby'ubaka umubiri ,ibitunga umubiri ,harimo, urugero nk'iby'imbuto karoti, ibitunguru ,inyanya ndetse n'ibindi byinshi.

Ubuhinzi bworozi, ubuhinzi bworozi bugira umumaro mwinshi cyane, bugira umumaro yaba ku ubukora, yaba ku gihugu atuyemo, yaba mu baturanyi be rusange, bibagirira umumaro kuko iyo yoroye ashobora kuba yakoroza mugenzi we, ashobora kuba yagurisha ayo mata, ashobora kuba yagirira umumaro mwinshi cyane urugo rw'iwe.

Nka gahunda ya girinka munyarwanda usanga ari gahunda ifasha abanyarwanda kuba umuturage ufite inka, umuturage woroye ashobora kuba yakoroza mugenzi w'iwe mu gihe inka afite iramutse ibyaye gahunda leta y'u Rwanda idashishikariza buri muturage yaba yaramuhaye inka koroza mugenzi we mu gihe afite umutavu cyangwa inyana akoroza mugenzi we.

Ubuhinzi bw'amashu ni ubuhinzi navuga yuko bugira inyungu nyinshi. Bugira umusaruro yaba ku ubukora ndetse yaba no ku baturage mu gihugu kuko ashobora kugurisha, ashobora gusagurira amasoko. Ni ubuhinzi bugira umumaro cyane kandi ndetse bugira n'inyungu.

Imyaka ishobora kuma bitewe n'izuba ryinshi bitewe n'ubutaka ihinzemo gusa hari impamvu ishobora gutuma imyaka wateye yuma cyane cyane bitewe n'imbuto wahinze. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kwita ku buhinzi akita ku gihe k'ihinga agiye guhingamo.

Ubworozi bw'inka mu gihugu. Mu gihugu cy'u Rwanda, Abanyarwanda dufata nk'inka, dufataka inka nk'ikintu cy'agaciro, dufaka inka nk'ikimenyetso cy'ubwiza, ndetse n'ikimenyetso cy'urukundo. Usibye n'ikimenyetso cy'urukundo, ndetse ni ikimenyetso cy'ubutunzi, kuko kiduha amata, inyama ndetse n'ibintu byinshi yaba ifumbire, idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda ni ikintu cyinjiriza amafaranga menshi igihugu, usanga byinjiriza igihugu amafaranga ageze mu ma miliyari menshi cyane bitewe n'uko u Rwanda hari ibyanya byinshi byo gusura harimo nka Nyungwe, nka Canopy walker; abakerarugendo hari uburebure bwinshi hakurura ba mukerarugendo ndetse n'ishyamba rya Nyungwe.